Umuryango wa gereza hari abacungagereza babiri mwari gusoma urupapuro hakaba hari n'undi muntu uri gusohoka inyuma ye hakaba hari abagororwa hakaba harimo n'umwe bigaragara ko yambaye amapingu.